Abantu benshi bicaye, bambaye amakoti y'imikara, imbere yabo ku meza hakaba hari agacupa k'amazi, hakaba hari n'ikirahure kirimo amazi.

Abantu benshi bicaye mu nzu ku ntebe z'umuhondo imbere y'aba bantu hakaba hahagaze abandi bazamuye akaboko hejuru, imbere yabo hari ibendera mu iyo nzu amatara akaba ari kwaka.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hagiye hari uducupa turimo amazi, harimo abafite amakaramu n'amakayi bari kwandika. Imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru.

Abantu bicaye imbere yabo kumeza hateretse amazi hari n'indangururamajwi, nk'abo bantu abenshi bakaba bambaye imyenda isa n'ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye mu twatsi ari benshi cyane hagati y'abo hakaba hari ibiti, imbere y'abo hahagaze umuntu muri aba bantu bicaye abenshi bakaba bateze ibitambaro mu mutwe.

Abantu benshi bicaye imbere y'inzu hari n'abandi bahagaze iruhande rwabo, hakaba hari indangururamajwi nk'aba bahagaze bamwe bakaba bateze ibitambaro mu mutwe, undi yambaye ikote undi yambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi bicaye ku meza azengurutse nk'uruziga, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi. Inyuma yabo hahagaze abandi bantu, ku rukuta ruriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye imbere yabo ku meza hari uducupa tw'amazi yo kunywa, hakaba hari abafite za mudasobwa zakije, hakaba hari n'abambaye amashati y'imikara.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ariho uducupa tw'amazi yo kunywa hakaba hari n'amatelefone ari kuri ayo meza, muri iyo nzu barimo amatara akaba ari kwaka.

Abantu bicaye umwe muri bo ahagaze, uhagaze wambaye ishati y'ubururu, abicaye imbere yabo hari ameza, hari uducupa tw'amazi, ku ruhande hari na mudasobwa.

Abantu bicaye mu ntebe ndende z'umukara, imbere yabo hari indangururamajwi n'uducupa tw'amazi, umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu, uw'inyuma ye yambaye ishati y'ubururu.

Umuntu uhagaze ari kureba ku ruhande afashe mu ntoki indangururamajwi, akaba yambaye amarori, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo, ku ruhande hakaba hari idirishya.

Abantu bicaye hari uhagaze yambaye agapira k'icyatsi kibisi afite mu ntoki indangururamajwi abo bicaye bakaba bambaye imyenda y'umuhondo hari n'abambaye imyenda y'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye imbere yabo ku meza hakaba harambuyeho igitambaro cy'umweru, hakaba hateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa, umwe muri bo akaba afite mu ntoki indangururamajwi.

Abantu bicaye ari batatu umwe muri bo yambaye ikote ry'umutuku umwegereye yambaye ikote ry'umukara rifite utubara tumanuka tw'umweru imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi.

Abantu benshi bicaye bari kureba imbere, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, rifite n'akabara k'umuhondo, hakaba hari abambaye amakote y'ubururu.

Abantu benshi bicaye bambaye udupira tw'ubururu, imbere yabo kumeza hakaba hari uducupa tw'amazi, hakaba hari n'ufite agacupa karimo ikawa imbere ye hari telefone.

Abantu benshi bicaye harimo abambaye imipira y'umuhondo n'abambaye imipira y'icyatsi kibisi, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru hejuru yabo hakaba hari amatara arimo kwaka.

Abantu bicaye imbere yabo ku meza hari uducupa turimo amazi yo kunywa, ku ayo meza kandi akaba hari za mudasobwa zirambitse imbere yabo, mu abo bantu hakaba ari uwambaye ikote.

Abantu bicaye imbere yabo ku meza hari uducupa tw'amazi, umwe muri bo akaba ari kwandika, akaba yambaye agapira k'ubururu, naho umwegereye akaba yambaye umupira w'umukara...

Abantu bicaye, imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere yabo hakaba hahagaze undi mugabo ufite mudasobwa mu ntoki, uwo mugabo akaba yambaye ishati y'umweru.

Abantu bicaye, harimo abari kwandika, imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa turimo amazi yo kunywa, hakaba hari na telefone, imbere yabo hakaba hari na mudasobwa.

Abantu benshi bicaye kumeza akoze nkuruziga, imbere yaho nabo akabari nabandi bicaye kumeza akoze nk'uruziga, benshi muri bo bakaba bambaye amakote asa n'ubururu.

Abantu bicaye imbere y'abo hari indangururamajwi, imbere y'aba bantu bicaye hakaba hari n'abandi bicaye imbere y'abo bari kubareba, imbere y'abo ku meza harambuyeho igitambaro cy'umukara, n'iyo nzu barimo amatara akaba ari kwaka.

Abantu babiri bahagaze imbere yabo hicaye abandi benshi, mo abo bahagaze, umwe akaba yambaye umupira w'umweru uriho imashini, akaba yambaye n'ingofero y'ubururu, undi ahagaze iruhande rwe, akaba afite mu ntoki indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye harimo abafite amakaramu n'impapuro bari kwandika, hari n'abandi bicaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo ku meza akaba hari uducupa turimo amazi yo kunywa, bakaba bafite n'amakayi imbere yabo ku meza, umwe muri bo akaba yambaye ikote ry'umukara.

Abantu bicaye, imbere yabo ku meza hariho za mudasobwa hari n'uducupa tw'amazi, imbere yabo hakaba hicaye abandi, imbere ku meza yaho hakaba hariyo igitambaro cy'umweru.

Abantu benshi cyane bicaye, imbere yabo kumeza, hakaba harambuyeho igitambaro gifite ibara ry'umweru, kuri ayo meza kandi, hakaba yateretseho uducupa twinshi, turimo amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye imbere yaba hari ameza akoze ishusho y'urukiramende, kwayo meza hakaba hariho uducupa turimo imitobe yo kunywa n'uducupa turimo amazi yo kunywa hakaba hari n'indangururamajwi.

Abantu bicaye bari mu nama umwe muri bo yakuyemo ikote yarishyize ku ntebe afite na mashini, inyuma ye hari undi wicaye wambaye ishati y'umweru afite n'ikaramu mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze bareba imbere inyuma yabo hakaba hari ibirahure abo bantu hakaba hari uwambaye ikanzu y'umweru n'uwambaye ikanzu y'umukara, hakaba hari uwambaye ikote ry'umukara.

Abantu benshi bicaye ku meza akoze mu ishusho y'uruziga, kuri ayo meza hakaba hariho indangururamajwi, hakaba hari n'izindi ntebe ziri inyuma yabo nyinshi ziticayeho abantu, hirya inyuma y'izo ntebe hakaba hahagaze abandi bantu babiri.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza ari mu ishusho y'uruziga, imbere yabo hicaye naho abandi bicaye ku ntebe ndende, nabo ameza ari mu ishusho y'uruziga, kuri ayo meza hakaba hateretseho uducupa tw'amazi n'indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye hari n'abahagaze benshi bahagaze bakaba bambaye imipira y'umuhondo imbere yabo harimo uducupa twamazi yo kunywa imbere yabo, bambaye imihondo bakaba bicaye bambaye udupira twicyatsi kibisi.

Imodoka ziri iruhande rw'inzu y'ubucuruzi, ku iyo nzu hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'ubururu, ahagaze iruhande rw'ibitoki, inyuma ye hateretse indobo.

Abantu babiri bahagaze mu nzu, umwe yambaye ingofero n'agapira, undi yambaye ikote ry'umukara, inyuma yabo hakaba hari intebe, izo ntebe imbere yazo hakaba hari za mudasobwa.

Ikarita y'igihugu cy'u Rwanda, iyo karita ikaba irimo ibirango by'igihugu biri mu ibara ry'ubururu, umuhondo, n'icyatsi kibisi, hakaba hari n'izuba riri mu ibara ry'ubururu.

Inzu z'ubucuruzi zifite imiryango ibiri mu muryango ubanza hakaba harimo umugabo wambaye akenda k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, umuryango w'undi ukurikiyeho hakaba hari intebe ziri mu ibara ry'umweru.

Icyuma abagenzi bakozaho kugira ngo binjire mu modoka, n'ikarita wifashisha, iruhande rwayo hari itangazo riri kukubwira ngo " genzura neza ko amafaranga washyize ku ikarita ya tapu andi go yagiyeho,

Abantu bicaye hari n'undi wunamye, abantu bicaye bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari za mudasobwa, iruhande rw'iyo mudasobwa hakaba hari ikayi, uwo wunamye akaba yambaye agapira k'umweru gafite amaboko y'ubururu.

Mfite abantu bari gusarura icyayi, umwe muri bo yambaye agatambaro mu mutwe k'umweru, inyuma yabo hakaba hari ishyamba ryinshi cyane, imbere yabo hakaba handitse icyapa kivuga ko ari MINAGRI, NAEB.

Umuntu wicaye yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara n'umweru, imbere ye kumeza hakaba hari mudasobwa, ku rukuta iruhande rwe urukuta rukaba rufite irangi ry'ubururu, hino hakaba hari andi meza ariho insinga nyinshi.

Inzu y'ubucuruzi imbere yaho hakaba hashashe amakaro hasi, iyo nzu ikaba ifite imiryango ikinguye hahagaze abagabo babiri mu muryango n'imbere mu nzu hakaba hari abandi bicaye ku ntebe umwe muri bo yambaye ingofero y'umweru.

Abantu babiri bicaye umwe ari gukoresha mudasobwa yambaye umupira wumukara wiruhande rwe yambaye akagofero iyo mudasobwa ikaba icometse ifite imigozi iteretse hejuru .

Amahema yubatse, afite ibara ry'umweru ahajya hasi hariho ibara ry'umutuku, imbere y'iryo hema, hakaba hari inzu zubatse zigeretse kenshi, iruhande rw'izo nzu hakaba hari indabo z'imitako.

Urugo runini cyane ruri mu ibara ry'umweru n'umukara, imbere y'urwo rugo hakaba hari ipoto ritwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Imbere y'urwo rugo kandi hakaba hubakishijwe n'amabuye.

Umunara utwara insinga z'amashanyarazi hirya yaho hari ibiti iruhande rwayo hari utwara igare hari n'undi muntu wicaye ku rundi ruhande hari undi muntu na we uhagaze.

Umunara muremure w'itumanaho ufite ibara ry'umutuku n'umweru, imbere y'uwo munara hakaba hari ibiti, imbere y'uwo munara kandi hakaba hari n'inzu yo guturamo ikikijwe n' urugo rwubakishijwe n'amatafari ruriho n'indabo.

Umunara muremure utwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, imbere yawo hakaba hari igiti n'utwatsi duto, inyuma yaho hakaba hari inzu yo guturamo yubakishijwe n'amabati y'umukara.

Ipoto ririho itara ryo ku muhanda ririho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi, munsi y'ayo hakaba ari ibinyabiziga bibiri by'imitende ibiri, imbere y'ibyo binyabiziga hakaba hahagaze abantu benshi.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara imizigo, iruhande rwacyo hakaba hari ipoto iriho itara ryo ku muhanda, iryo poto rikaba ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, imbere yaryo hakaba hahagaze umuntu.

Ipoto rinini ririho itara ryo ku muhanda, iruhande rwaho hari irindi poto rifite insinga z'umuriro w'amashanyarazi, munsi yaho hakaba hari ururabo, iruhande rwaho hakaba hari urugo rwubakishijwe n'amatafari.

Amapoto abiri afatanye atwaye insinga z'umuriro w'amashanyarazi, munsi yazo hakaba hari urutoki. Hirya yaho hakaba hari ibiti, hirya cyane hakaba hari inzu isize irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hari igipangu kirekire, kiriho n'ibiti, iruhande rw'igipangu hakaba hari ipoto, iyo poto ikaba iriho insinga n'itara, iruhande rwaho hakaba hari n'icyapa.

Inzu nini igeretse kabiri imbere y'iyo nzu hakaba hari igiti kiriho itara ryo ku muhanda, hakaba hariho n'insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi, iruhande rw'iryo tara hakaba hari ibindi biti.

Umunara utwara umuriro w'amashanyarazi, munsi yawo hakaba hari inyubako zo guturamo zifite amabati atukura hirya akaba hari n'urutoki.

Imodoka yo mu bwoko bwa makeri inyuma yayo hari abantu, hari n'umutaka, imbere y'umutaka hari n'amapoto ariho insinga, imbere yaho hariho inzu, hepfo yaho hari n'indi modoka yo mu bwoko bwa TOYOTA.

ipoto rinini cyane ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwayo hari irindi poto ririho itara ryo ku muhanda, hirya hakaba hari inyubako igeretse y'ubucuruzi kuri iyo nyubako hakaba handitseho Gisozi.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hakaba hari igipangu kinini cyane, iruhande rw'icyo gipangu hakaba hari umugore uri kugenda, imbere y'igipangu hakaba hari umunara munini cyane w'amashanyarazi.

Ikinyabiziga kinini cyane gifite ibara ry'umweru, kikaba cyikoreye ibikoresho by'amashanyarazi, imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye umwenda w'icyatsi kibisi.

Umunara muremure utwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi munsi yawo hakaba hari ibiti bitandukanye ,hiryaho hakaba hari insina, hirya kandi hakaba hari undi musozi uriho ibiti byinshi.

Ipoto ririho insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, iryo poto rikaba riri imbere y'inzu y'ubucuruzi, kuri iyo nzu hakaba hariho icyapa kinini kiriho icupa ry'inzoga yo kunywa.

Inyubako zo guturamo imbere yaho hakaba hari umunara w' amashanyarazi uriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, imbere yaho hasi hakaba hari indobo nyinshi hari n'imyenda.

Abantu bicaye, hari n'abandi bahagaze, batonze umurongo, uw'imbere akaba ahetse igikapu, uri inyuma ye akaba ari umugore, wambaye agakote k'umukara, akenyeye n'ibitenge.

Urugi rwo ku rugo ruriho ikimenyetso cy'umusaraba gitukura, hari n'umuntu uri kurukingura imbere ye hari ibinyabiziga by'imitende bibiri kimwe ari umweru ikindi kiri ku ruhande ari ubururu.

Inyubako yubakishije amatafari ku rukuta rwayo ariho igishushanyo cy'umumama uteruye akana imbere yacyo hari ururabo rw'umutako, imbere yaho hakaba hari izindi ndabo zigiye zitatse.

Abantu batatu bicaye, imbere yabo ku meza hari za mudasobwa ziri kwaka, imbere yabo ku nzu hakaba hari idirishya rinini ririho ibyuma byinshi bifite ibara ry'umweru.

Icyapa kinini cyanditseho Kacyiru, imbere yacyo hakaba hari indabo, hirya y'izo ndaho hakaba hari inyubako, imbere y'iyo inyubako hakaba hari ipoto ritwaye insinga z'amashanyarazi.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri byinshi bihagaze ahantu. Imbere yabyo hakaba hari umuntu uri gukinga urugi hakaba hari n'icyapa kinini cyane.

Ikinyabiziga gitwara abarwayi, gifite ibara ry'umweru n'umutuku n'akandi kabara gato k'ubururu, gihagaze; iruhande rwacyo hakaba hari abantu benshi bari kugenda.

Ibinyabiziga by'imitende bibiri, bitatu. Bibiri muri byo bikaba bishinzwe gutwara abarwayi. Bikaba bihagaze mu muhanda. Inyuma yabyo hakaba hari inzu ifite irangi ry'umweru. Imbere y'iyo nzu hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru hagati yuwo muhanda hakaba hahagaze umugabo inyuma y'uwo mugabo hakaba hari ikinyabiziga cy'umutende umwe imbere yacyo akaba hahagaze abagore bafite udukapu mu ntoki.

Abantu benshi bambaye amashati y'amaboko magufi n'amakabutura imbere yabo hari abashinzwe umutekano, inyuma yabo hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bibiri bihagaze.

Umuntu w'umugore wambaye umwenda utukura, ufite ibara ry'umukara n'irindi ry'umweru akaba yambaye amataratara, akaba afite n'umusatsi mukeya.

Icyapa kirekire cyane cyanditseho ngo igororero rya Muhanga. Icyo cyapa kikaba cyubatse hasi ku rugo, urwo rugo rwubakishijwe amabuye y'umweru.

Abantu bari kugenda bambaye imyenda y'umukara, umwe muri bo yambaye agapfukamunwa inyuma yabo hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri ifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Abantu bicaye harimo uwambaye ishati y'umweru, undi yambaye umwenda w'umukara yambaye n'agafukamunwa, imbere yabo hakaba hicaye n'abandi bantu babiri, imbere yabo hari za mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'umukara iriho akabara k'umweru bazamuye akaboko k'iburyo hejuru, iruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu...

Abantu bicaye imbere yabo ku meza hari impapuro, abo bantu bakaba bafite amakaramu, umwe muri bo ari kwandika, bakaba bambaye n'ibendera ry'igihugu.

Abantu babiri bahagaze hari n'abandi babiri bicaye, imbere yabo ku meza hakaba hari agacupa karimo amazi yo kunywa, hakaba hari n'amakayi, hakaba hari na mudasobwa irambitse ku meza.

Umuntu wicaye ufite imisatsi myinshi cyane yambaye n'amarori akaba yambaye ishati igiye iriho inyenyeri eshatu ku rutugu, izo nyenyeri zikaba ziri ku kantu k'ubururu.

Abagabo bambaye imyenda y'imfungwa n'abagororwa barimo bururuka mu modoka, hari n'abandi bari mu modoka mo imbere, iruhande rwabo hari n'ushinzwe umutekano mu modoka.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ritukura n'iry'umukara, harimo n'iry'umweru mu gatuza, mo imbere yambayemo ishati, akaba afite ubwanwa bwinshi cyane.

Umugabo wambaye rinete yambaye, ikote ry'umutuku mwimbere yambaye ishati y'umweru na karuvati y'ubururu na kandi kenda imbere gafite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye umwenda utukura ufite ibara ry'umweru, mo imbere akaba yambaye ishati, akaba yariyogoshesheje umusatsi wose akawumaraho.

Umuntu uri kugenda afite agakapu mu ntoki k'umukara, hirya ye hakaba hari icyapa, hirya y'icyo cyapa hakaba hari inzu, iyo nzu imbere yayo hakaba hari ibendera ry'igihugu.

Abagabo babiri bafite itiyo iri gusohora amazi, abo bagabo bakaba bambaye ingofero n'imyenda y'umukara igiye iriho amabara y'umuhondo, imbere yabo hakaba hari urugi.

Abantu benshi bafite mu ntoki umupira w'amazi, bari kuyasohora, bayatera imbere yabo, hakaba hari imyotsi myinshi, hari n'ibiti, iruhande rwabo hakaba hari n'abandi bahagaze bari gukurura umupira w'amazi.

Inyubako ndende igeretse kenshi ikoreramo Polisi y'Igihugu, imbere y'iyo nyubako hakaba hari imodoka ya polisi, iruhande rwayo hakaba hari indi modoka isanzwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga, harimo ikinyabiziga cy'imitende ibiri n'ikinyabiziga cy'umutende umwe gihetse umuntu, bakaba bambaye ingofero z'umutuku.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri biri mu muhanda, iruhande rw'icyo kinyabiziga kiri imbere hakaba hari inzu, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari igiti kinini cyane, iruhande rw'icyo giti hakaba hari urugo rwubakiye, indi nzu iri mo imbere.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro biri mu ibara ry'umutuku, kimwe kikaba gifiteho akabara k'umukara naho ikindi kikaba gifite akabara k'ubururu. Bikaba bihagaritse kimwe kiri munsi y'ikindi.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuzimya umuriro, kimwe gifite ibara ry'umutuku n'ikindi gifite ibara ry'umutuku ariko handitseho amagambo, bikaba bifite aho bafata bakanda kugira ngo ifu isohoke hasa n'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye bambaye amashati y'umweru n'amapantaro ajya kuba ikigina, imbere yabo hahagaze umugabo ufite igikoresho bakoresha bazimya umuriro gifite ibara ry'umutuku.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abandi bahahagaze, abo bahahagaze imbere yabo ku meza hakaba hari amatara ari kwaka, hakaba hari n'indangururamajwi.

Umugabo wicaye yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru, akaba yambaye n'amataratara, imbere ye, hakaba hari indangururamajwi, uwo mugabo akaba yicaye ari kureba imbere.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na madamu we, umukuru w'igihugu akaba arimo yandika, imbere ye hahagaze umugabo wambaye umwenda utukura n'akagofero, iruhande rw'uwo mugabo hakaba hari ibendera ry'igihugu.

Umuntu wicaye, yambaye ikote ry'ubururu, yambaye n'amataratara. Iruhande rwe hakaba hari umutako ubajwe, uwo mutako ukaba wikoreye agaseke.

Abantu benshi bicaye imbere yabo kumeza hagiye hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, hari na za mudasobwa zibateretse imbere hakaba hari n'abandi bicaye imbere yabo inyuma yabo, hari ibendera ry'igihugu n'ikirango cy'gihugu.

Abantu benshi cyane, bahagaze bazamuye ibirango biri mu mabara y'umutuku umweru n'ubururu, byanditseho FPR, abo bantu abenshi bakaba bambaye imyenda itukura harimo n'iy'umweru.

Abantu benshi bicaye harimo abitwikiriye umutaka, imbere yabo hakaba hahagaze abandi bantu batatu, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru wanditseho ngo indi ntambwe, undi yambaye ikote ry'umukara, undi yambaye ikote ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze bafite impapuro mu ntoki. Imbere yabo hakaba hicaye n'abandi harimo n'abashinzwe umutekano, harimo umusirikare. Muri abo bahagaze hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu n'abambaye amashati y'umweru.

Umukuru w'igihugu ahagaze afite mu ntoki indangururamajwi, akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari abantu benshi bicaye mu ihema.

Abantu benshi cyane harimo bambaye imyenda yubururu, bazamuye ibirango hejuru bifite amabara atukura ay' umweru n'ubururu hakaba handitseho inyuguti eshatu.

Umukuru w'igihugu ahagaze yazamuye igipfunsi hejuru, yambaye ingofero itukura, umupira w'umweru yambaye n'agapfukamunwa, akaba yambaye n'amataratara, imbere ye hahagaze undi muntu wambaye ingofero y'umukara.

Abagore batatu babiri bicaye umwe ahagaze yambaye ikanzu y'ubururu imbere ye ari indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa kimanitse kiri mu ibara ry'ubururu amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Abakecuru bicaye bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, ubururu n'umweru, bafite udupapuro twanditseho FPR imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi.

Umuntu ushaje wicaye mu igare ry'abamugaye akaba yambaye imyenda y'ubururu ifiteho akabara k'umweru, akaba afite urupapuro mu ntoki.

Abantu batatu bari mu nzu, babiri bicaye, umwe yunamye, umwe muri bo akaba yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umweru afite urupapuro mu ntoki, imbere ye ku meza harambitse urupapuro n'ikaramu iri hejuru y'urwo rupapuro.

Inyubako ndende zigiye zigeretse kenshi, imwe muri zo ikaba ifite irangi ry'umweru n'ibirahure bifite irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibiti, hakaba hagiye hari n'amatara yo ku muhanda.

Umukuru w'Igihugu ahagaze yazamuye akaboko, akaba yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hakaba hari abashinzwe umutekano bari mu myenda y'umukara, inyuma ye hakaba hari amahema ari mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye imbere yabo ku meza hakaba hari amatara ari kwaka, hakaba hari n'uducupa turimo amazi yo kunywa, bakaba bafite n'indangururamajwi ziri imbere yabo ku meza.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye ku meza hakaba hari agacupa k'amazi, hakaba hari n'indangururamajwi, uwo mugabo akaba yambaye ikote ry'ubururu, n'ishati y'ubururu.

Ikinyabiziga cy'umutende umwe gifite amapine atatu, gifite ibara ry'ubururu, imbere yacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cy'imitende ibiri, iruhande rwacyo hahagaze abantu.

Umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hakaba hari ibinyabiziga harimo ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ikinyabiziga cy'umutende umwe, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri, gitwara abantu, gifite ibara ry'umweru, hirya yacyo hakaba hari umunyonzi wambaye ingofero itukura, hirya y'umuhanda akaba hari ibiti biri iruhande rw'umuhanda.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri kiri mu ibara ry'umweru kiri mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwacyo hakaba hari umuntu wikoreye umufuka hirya y'umuhanda hakaba hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga by'umutende umwe, inyuma y'ibyo binyabiziga hakaba hari umunyonzi utwaye igare, inyuma y'uwo munyonzi hakaba hari ikinyabiziga cy'umutende umwe gitwara imizigo.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara abantu, kiri mu ibara ry'umweru kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hakaba hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ibinyabiziga by'umutende umwe biri mu muhanda, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari inzu z'ubucuruzi, imbere y'izo nzu hakaba hahagaze abantu benshi.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri, kiri mu muhanda wa kaburimbo, hirya yacyo hakaba hari ibiti, iruhande rw'ibyo biti hakaba hari n'ibihuru, hirya ku wundi muhanda ukomereza, hakaba hari indabyo ziri ku ruhande.

Imodoka nini itwara abagenzi ifite ibara ry'ubururu n'iry'umweru, imbere yabo hari ibindi binyabiziga by'umutende umwe muri byo yambaye ingofero itukura n'undi na we itukura uwo hirya we ari umuhondo.

Imodoka ya toyota y'umweru, mo imbere yayo harimo uyitwaye, iruhande rwayo hari umunyonzi ahetse n'umugenzi, hirya yayo hari ibiti

Ikinyabiziga cy'umutende umwe kiri mu muhanda wa kaburimbo, gitwaye abantu babiri, umwe muri bo ahetse agakapu mu mugongo, imbere yabo hari ikindi kinyabiziga cy'imitende ibiri kiri kwambukiranya umuhanda.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri biri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari umunyonzi wikoreye imizigo. Hirya y'umuhanda akaba ari abagenzi babiri bari kugenda.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri kiri mu ibara ry'umweru gitwaye abagenzi, iruhande rwacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga cy'imitende ibiri gitoya gifite ibara ry'umweru, hirya yacyo hakaba hari ibiti bigiye biteye ku muhanda.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi benshi biri mu muhanda wa kaburimbo, ibyo binyabiziga bikaba bifite ibara ry'umweru n'ubururu, muri uwo muhanda hakaba hari n'abantu bari kuhagendamo.

Abantu benshi batwara ikinyabiziga cy'umutende umwe, bagihagaritse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, abenshi muri bo bakaba bambaye ingofero zitukura, bambaye n'utwenda tw'umuhondo.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi biri mu muhanda kimwe gifite ibara ry'umweru, ikindi nacyo gifite ibara ry'umweru n'utudomo turi mu ibara ry'icyatsi kibisi, iruhande rwaho hakaba hari umuntu ufite akadobo mu ntoki.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri, gifite ibara ry'ubururu, naho ibyuma bikaba bisize irangi ry'umukara, kikaba kiri mu muhanda, imbere yacyo hakaba hari ibindi binyabiziga by'imitende ibiri n'ikinyabiziga cy'umutende umwe.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gihagaze imbere y'urugo, icyo kinyabiziga kikaba gifite irangi ry'umweru hirya ku rugo hakaba hariho irangi ry'icyatsi kibisi, mo imbere mu rugo hakaba hari ibirango by'ibendera ry'igihugu.

Ibinyabiziga by'imitende ibiri, bibiri, biri mu muhanda wa kaburimbo, bikaba bifite ibara ry'umweru n'ubururu, hirya yabyo iruhande rw'umuhanda, hakaba hari ibyapa bimanitse ku rugo biri mu ibara ry'umuhondo.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara imizigo kiri mu muhanda iruhande rwacyo hakaba hari umunyonzi hirya hakaba hari undi muntu uri kugenda n'amaguru iruhande rwe hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo yubatse idashashe neza muri uwo muhanda hakaba hari ikinyabiziga cy'umutende umwe iruhande rwacyo hakaba hari umuntu wikoreye imizigo imbere y'uwo muntu hakaba hari inyubako igeretse imbere y'iyo nyubako igeretse, hakaba hari umunara wikoreye insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri kiri mu muhanda wa kaburimbo, kikaba gifite ibara ry'umweru, hirya y'umuhanda hakaba hari ibiti binini, icyo kinyabiziga kikaba gihambiriyeho imigozi.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara abagenzi kiri mu ibara ry'umweru, hirya yabo hari ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, hirya hari amatara yo ku muhanda, hari n'abantu babiri bahagaze.

Umuntu uri kugenda mu muhanda afite agakapu mu ntoki, imbere ye hakaba haparitse ibinyabiziga by'imitende ibiri bitwara abagenzi, imbere y'uwo muntu kandi hakaba hari n'ipoto ririho amatara yo ku muhanda.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri kinini cyane cyikorera imizigo gifite ibara ry'icyatsi kibisi imbere ari umweru iruhande rw'icyo kinyabiziga akaba hari umuntu uri gusunika ipine imbere ye akaba hari undi wikoreye umufuka.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru, umuhanda wa kaburimbo hakaba hari ikinyabiziga, k'imitende ibiri, gifite ibara ry'umutuku, imbere yacyo hakaba hari umunyonzi.

Imodoka itwara abagenzi iri mumuhanda yakije amatara yimbere iruhande rwayo hari abantu bahagaze inyuma yayo hari kwaka itara ry'icyatsi kibisi hirya yaho hari umunara w'amashanyarazi hari n'amatara yo ku kumuhanda.

Umunyonzi uri ku igare, uri mu muhanda wa kaburimbo, imbere ye akaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara abantu, imbere yaho ku ruhande hakaba hari ibyatsi n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'umutende umwe gifite ibara ry'umutuku n'umuhondo, ugitwaye akaba yambaye ingofero y'umuhondo hirya ye hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri iruhande rwacyo hegamyeho umuntu.

Abantu bari kugenda mu muhanda, harimo uwambaye ipantaro y'ubururu afite n'agakapu mu ntoki, imbere yabo hakaba abandi bicaye kuruhande, inyuma yabo hakaba hari ibiti, hakaba hari n'akazu kubakishijwe n'imbaho.

Abantu bicaye bafite terefone mu ntoki, imbere yabo hari abandi bari kugenda, umwe mu bicaye yambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari uwundi uhicaye yabateye umugongo.

Ikibuga kinini cy'umupira w'amaguru, muri icyo kibuga hakaba ari umuntu mu kibuga, iruhande rw'ikibuga hakaba hari ibiti byinshi, hakaba hari n'ibyapa harimo ibifite amabara y'umweru n'ubururu.

Ikibuga kinini cyane kigiye giciyemo imirongo iruhande rw'icyo kibuga akaba hubakishije amatafari ayo matafari akaba ari iruhande rw'umuhanda wegereye icyo kibuga ku rundi ruhande rw'ikibuga hakaba hari.

Icyapa kibwira ibinyabiziga icyo gukora, kiri mu ibara ry'umuhondo, munsi y'icyo cyapa hakaba hari ibyatsi byumye, iruhande rw'ibyo byatsi hakaba hari umuhanda w'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo mo hagati yawo, hirya y'umuhanda hakaba hagaze abantu, umwe muri bo yambaye umupira utukura, n'ipantaro y'umukara, imbere ye hakaba hari ipoto ritwaye urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa cyo ku muhanda, kibwira imodoka ko hari ikoni, kuri icyo cyapa hakaba hariho ishusho y'imodoka, icyo cyapa kikaba gifite ibara ry'umuhondo, riri mu ishusho y'ikinyampande, gifite impande enye.

Icyapa cyo ku muhanda kibwira abagenzi ko aho bemerewe kuhanyura, kikaba kirimo akagabo kari mu ibara ry'umukara, iruhande rwaho hari ibara ry'umweru, kikaba kiri mu kinyampande gifite ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo mu uwo muhanda hakaba mo hagati hateyemo indabo nziza, mu izo ndabo hakaba harimo icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hirya y'umuhanda hakaba ahahagaze umuntu, hakaba hari n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibyapa bibiri kimwe cyanditseho Rusizi ikindi cyanditsweho Nyungwe inyuma y'ibyo byapa hakaba hari ishyamba rinini cyane.

Icyapa kiyobora imodoka, icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru, ibimenyetso byereka imodoka bikaba biri mu ibara ry'umukara ibyo byose bikaba biri mu kinyampande cy'impande eshatu.

Icyapa kiyobora imodoka kimanitse ku rukuta rw'imbaho, icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo naho akereka imodoka aho zinyura kakaba kari mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, hirya y'icyo cyapa hakaba hari inzu, kuri iyo nzu hakaba handitseho irembo hari n'umuntu uri kwinjira mu muryango.

Icyapa kiyobora imodoka, kikaba kiri mu ibara ry'umutuku, amagambo akaba yanditse mu ibara ry'umweru, hakaba handitseho ngo sitopu. Bimenyesha ko ari uguhagarara.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ishusho y'ikinyampande eshatu kuri icyo cyapa hakaba hariho abantu babiri, iruhande rw'icyo cyapa hakaba hari ibiti birebire, imbere yaho hakaba hari abantu bari kugenda.

Icyapa kibwira ibinyabiziga by'umutende umwe n'ibinyabiziga by'imitende ibiri ko aho hantu bitemerewe, ibyo binyabiziga bikaba biri mu ibara ry'umukara naho ikibiyereka ko bitahemerewe kikaba kiri mu ibara ry'umutuku.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana aho hantu ko b'abanyamaguru bahanyura, kikaba kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, n'umugabo uri gutambukamo uri mu ibara ry'umukara, n'amabara yerekana ko hari aho umunyamaguru anyura y'umweru n'umukara.

Inzu yo guturamo, iyo nzu ikaba igeretse, ikaba yubakishijwe n'amabati y'umukara, imbere yaho hakaba hari urugo, kuri urwo rugo hakaba hariho itara hejuru

Umuntu utwaye ikinyabiziga cy'umutende umwe, yambaye ingofero itukura, imbere ye hakaba hari abantu hakaba hari n'undi utwaye ikinyabiziga cy'umutende umwe, ku ruhande ha akaba hari inzu z'ubucuruzi.

Inzu yubakishijwe n'imbaho mo imbere muri iyo nzu hakaba hari abantu babiri bicaye imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa tw'amazi, imbere y'iyo nzu hakaba hari indobo ifite ibara ry'ubururu.

Inzu zo guturamo imwe yubakishijwe n'amabati y'umukara, hirya yaho hakaba hari indi igeretse rimwe, hejuru yayo hakaba hari ibigega by'amazi, imbere y'iyo nzu hakaba hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Urugo runini rwubakishijwe n'amatafari hasi ari amabuye hejuru ari ibyuma, urwo rugo imbere yaho hakaba hari ibyatsi ibyo byatsi ari ibyatsi biri hejuru y'amabuye.

Umuhanda w'igitaka hirya y'umuhandakaba hahagaze ibinyabiziga by'imitende ibiri harimo igifite ibara ry'umweru hirya y'ibyo binyabiziga hakaba hari inzu ifite irangi ry'umweru.

Inzu zo guturamo zitandukanye hari izifite amabati y'umutuku iruhande rw'inzu nzu hakaba hari ibiti byinshi kandi kuri izo nzu hakaba hari n'ibyatsi byinshi cyane.

Inzu nyinshi zo guturamo hari izigiye zifite amabati y'umukara, ay'umuhondo n'umutuku, hakaba hari ibiti byinshi biri hagati y'izo nzu n'umuhanda w'igitaka, ruguru y'uwo muhanda hakaba hari inzu igeretse kenshi.

Inyubako zigiye zitandukanye hari irimo ifite ibara ry'umweru, iyo ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite ibigega bibiri biri mu rugo hakaba hari n'indi isakajwe n'amabati atukura izo nyubako iruhande rwabo hakaba hari ibiti.

Inyubako ndende zigiye zigeretse z'ubucuruzi imbere y'izo nyubako akaba ari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hakaba mbere kandi y'iyo nyubako hari ibinyabiziga by'imitende ibiri hakaba hahagaze n'abantu.

Inyubako ndende igeretse ikaba ifite urugo, urwo rugo rukaba rufite irangi ry'umweru, n'ibyuma bifite irangi ry'icyatsi kibisi, iruhande rw'urwo rugo hakaba hari indabo z'imitako.

Inzu zo guturamo zifite amabati ashaje hagati muri zo harimo ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi hirya yayo hari ibiti iruhande rw'ibiti hari urutoki hirya y'urutoki hari izindi nzu zo guturamo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo ufite ibara ry'umuhondo, hirya y'uwo muhanda hakaba haparitse ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ikinyabiziga cy'umutende umwe, bikaba biri imbere y'inyubako ndende.

Umuhanda iruhande rw'umuhanda hari urugo, hejuru y'urugo hubakishijeho ibyuma, hirya yaho hari ikinyabiziga k'imitende ibiri, iruhande rwacyo hari umuntu, hirya yacyo hari inzu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabiziga by'imitende ibiri ibinyabiziga by'umutende umwe, imbere yabyo hakaba hari icyapa kiyobora ibyo binyabiziga, harimo kimwe kiri kwaka icyatsi kibisi n'ikindi kiri kwaka umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa kaburimbo icyo kinyabiziga, kikaba ari icy'iminyamitende ibiri hirya yacyo hakaba hari umunyonzi inyuma y'icyo kinyabiziga hakaba hari ikiraro kirekire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru iruhande rw'umuhanda akaba hari icyapa, mu uwo muhanda akaba ari ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara imizigo iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ibinyabiziga by'umutende umwe, hirya y'umuhanda akaba hari amatara yo ku muhanda, iruhande rw'iryo tara ryo ku muhanda hakaba hari ibiti.

Imihanda ibiri ya kaburimbo, mu muhanda ubanza ku ruhande hakaba hari umurongo w'umuhondo iruhande rw'umurongo w'umuhondo, hakaba hari ibiti by'umutako byo mu muhanda, hirya hakaba hari icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo, mu uwo muhanda hakaba arimo imirongo y'umweru igaragaza ko ariho abanyamaguru banyura, iruhande rw'iyo mirongo hakaba hahagaze umugabo, iruhande rw'uwo mugabo hakaba hari ibyuma bigaragaza ko aho hari ikiraro.

Ibinyabiziga by'umutende umwe biri kugenda mu muhanda, inyuma yawo hakaba hari ikiraro kinini, munsi y'icyo kiraro hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri gitwara imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga by'imitende ibiri n'ibinyabiziga by'umutende umwe, ikinyabiziga cy'umutende umwe kiriho abantu babiri, umwe afite matera mu ntoki yambaye agapira k'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo ibinyabiziga by'umutende umwe, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari amatara amurika mu muhanda, iruhande rw'ayo matara hakaba hari ibiti byinshi biri iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo y'umweru, aho abanyamaguru bambukira, hirya muri uwo muhanda hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri, gifite ibara ry'umweru, iruhande rw'umuhanda hakaba hari ibyapa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru agaragaza ko ariho abanyamaguru banyura, hakaba hari n'ibinyabiziga by'imitende ibiri biri kunyura muri uwo muhanda, hirya yaho hakaba hari ikindi kinyabiziga cy'umutende umwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bahagaze, iruhande rw'umuhanda akaba hari amatara yo ku muhanda arimo kwaka, mu muhanda hagati hakaba hari indabo zihatatse.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu muhanda hagati hakaba harimo icyapa, uwo muhanda hakaba harimo ikinyabiziga cy'umutende umwe gitwaye n'umugenzi, hakaba hari n'ikindi kinyabiziga cy'umute cy'imitende ibiri kiri hirya kiri mu ibara ry'umutuku.

Ikiraro kinini gisize irangi ry'umweru munsi y'icyo kiraro hakaba hari ibinyabiziga harimo ikinyabiziga cy'umutende umwe, n'ikinyabiziga cy'imitende ibiri mu bw'injiriro bw'ubwo buvumo hakaba hari icyapa n'indabo zo ku muhanda.

Ikinyabiziga cy'umutende umwe kiri mu muhanda wa kaburimbo, ugitwaye yambaye ingofero itukura, hirya ye hari umunyonzi utwaye umuntu, kuruhande hari n'undi munyonzi uhahagaze.